Polisi irimo kureberera abantu. Umuyobozi agiye gutambuka bari mu muhanda. Hafi yaho hasa nahari hoteri.

Ababyinnyi bari guseka baranezerewe, bateze umugara bafite ingabo ndetse n'amacumu, se mu nzu isa neza cyane, ni ababyinnyi beza.

Ababyinnyi bari kubyinira ba mukerarugendo, ndetse n'ingoma iruhande rwaho, inyuma yaho hari inzu z'indaro, za zindi bitaga iz'umuco nyarwanda bitaga indaro, ndetse hari n'abari gukoma ingoma, ba mukerarugendo barishimye cyane.

Mu isoko ry'imbuto z'ubwoko butandukanye, ndetse imodoka zihetse imbuto z'ubwoko butandukanye zizijyanye kuzigurisha, kandi hari abandi bantu bari gupakira izo modoka.

Imodoka ya siporo irikwirukanka n'umuvuduko mwinshi cyane mu muhanda wigitaka abantu barashungereye imodoka yasohoye umwotsi mwinshi cyane ndetse ndetse n'ivumbi ryinshi.